Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe abayobozi barimo abagore n'abagabo bahuye n'urubyiruko rurimo abasore n'inkumi baganira ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe ndetse bafata ifoto y'urwibutso nyuma y'ikiganiro bagiranye.

Abakozi bakora mu kigo cy'ubwubatsi harimo abayobozi ndetse n'abandi bambaye amajiri y'icyatsi, umukobwa n'umuhungu. Ndetse banafite ingofero z'ubwubatsi bateraniye hano hamwe, aho buri wese afite amazi, ndetse bari mu nama y'ibikorwa birebana n'ikigo cyabo, ari nako banatera urwenya.

Rebu (REB) yashyize ku mugaragaro ku rubuga rwayo igikorwa yakoze mu kwimakaza ikoranabuhanga mu burezi aho bashyizeho amarushanwa ,abana bakayitabira bose bambaye imipira y'umutuku ndetse abatsinze bambitswe imidari bahabwa n'ibikombe bitatu nk'uko bigaragara. Iyi ni ifoto y'urwibutso abayobozi bafatanya n'abanyeshuri bahawe imidari y'ishimwe ndetse n'ibikombe.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi iparitse yitaruriye umuhanda inyuma y,umutaka wa mtn ibumoso bw'igipangu kigaragaza itara rimwe ryo ku muhanda ahakikijwe n'ibiti byinshi ndetse hari n'ipoto ifashwaweho n'insinga nyinshi zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Kizimyamoto ni igikoresho cy'ibanze cyifashishwa mu kuzimya ahafashwe n'inkongi y'umuriro, ikaba imanitse ku gikuta gifite ibara rya kaki, ikaba isa umutuku ndetse ikaba igaragaza n'amabwiriza yose n'ibimenyetso byose biyanditseho kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa neza.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Igikamyo cy'umweru gitwaye umufuka urimo ubusa kiri kwerekeza mu ruhande rw'iburyo rw'umuhanda kibisikana n'imodoka binini bizwi nka yutongo se sekebisi bitwara abagenzi umuntu wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'ikoboye y'umukara n'inkweto za kaki arirekeza mu ruhande igikamyo cye kwerekezamo inyuma hari ibiti byinshi ndetse n'itara.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.